Akabati karimo uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho utwo ducupa tuba turimo imiti myinshi igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye bw'amatungo yo mu rugo.

Umurima w'ibigori wahuriwemo n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari kugenda babishyiraho ifumbire kugira ngo bizabyibuhe cyane.

Akabati gacururizwamo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti ari ingenzi cyane kuko harimo iyifashishwa mu buhinzi ndetse n'indi yifashishwa mu bworozi, bavura amatungo aba arwaye.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutezwa imbere cyane mu Rwanda, aho ubu ngubu abantu basigaye bahinga ibirayi, bakabyitaho, hanyuma bikazabaha umusaruro ushimishije maze bakaba batera imbere cyane.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda burushaho gutera imbere cyane ariko abajyanama b'ubuhinzi badushishikariza kujya tuzitera umuti ku mababi kugirango zitazajyaho udusimba.

Akabati karimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu buhinzi, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wayihinze agomba kuza kuyigura aha ngaha.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi bw'amatungo, iba iri ahantu mu kabati ku buryo iyo uyikeneye ugenda bakayiguha ku mafaranga macye.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuhinzi, aho hari ibyapa hejuru bibyamamaza ko uramutse ukeneye kimwe mu bikoresho by'ubuhinzi, waza bakabikugurira aha ngaha.

Ifumbire ni imwe mu bikoresho byifashishwa mu buhinzi, aho ari ingirakamaro cyane kubera ko abahinzi bayihingiraho maze bakabasha kubona umusaruro uhagije.

Abagore bari mu murima uhinzemo ibigori, bakaba bari kugenda babishyiraho ifumbire, bakaba bambaye udupira tw'icyatsi, bigaragara ko ari abasirimu, bashaka kubibagarira neza.

Utubase tugiye dutandukanye turimo amoko menshi y'umuceri aho mu imbere hagiye harimo agakoroboyi bifashisha barikuronga umuceri kugira bawugurishe umuntu waje kuwugura.

Abahinzi b'umuceri benshi cyane bahuriye hamwe mu murima, aho bari kugenda bawusarura kugira ngo barebe ko bazabonamo uzabatunga mu gihe kiri imbere.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga, aho ibi binyabiziga ari ingirakamaro cyane kubera ko bitwara abantu mu buryo bwa rusange, kandi bikabihutana.

Abahinzi benshi cyane bateraniye hamwe, aho umwuga w'ubuhinzi bawushyize imbere, bakaba bari gucukura imiyoboro abandi bashyiramo ifumbire bigaragara ko bagiye guhinga ibigori.

Abantu bari kugenda mu murima uhinzemo ibigori, bakaba bari kugenda bashyiraho ifumbire ryo mu bwoko bwa UREA, bifashisha bari kubagaza ibigori kugira ngo birusheho kubyibuha maze bizatange umusaruro uhagije.

Imifuka igiye itandukanye, irimo ifumbire rya NPK, aho iri fumbire ryifashishwa mu gutera imbuto, rikaba ari ryiza cyane ritanga umusaruro ugiye uhagije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane iz'ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Utubido twinshi cyane turi mu mabara y'umweru duteretse ku kabati gafite imbaho z'ubururu, kakaba karimo imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo umuntu wakoze uwo mushinga adahomba.

Umugore wambaye agapira k'umutuku, akaba yambaye n'agapantaro gasa na rumbiya, akaba ari mu murima uhinzemo ikawa aho ari kugenda ashyiraho ifumbire bifashisha bari kubagara.

Abahinzi babigize umwuga, bakaba bari mu murima aho bamwe bari guca imyobo, abandi bagashyiramo ifumbire, bigaragara ko bagiye guteramo ibishyimbo mu myobo kugira ngo bizabashe kwera neza.

Umurima uhinzemo ibigori aho hateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye baje muri ibyo bigori, harimo umugabo ufite indobo irimo ifumbire ari kugenda yifashisha atera kubigori.

Amashashi arimo amoko agiye atandukanye y'imboga n'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wazihinze zibasha kumuteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga bugenda burushaho gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, ku buryo umuntu uzihinga asigaye abona amafaranga menshi cyane, maze akaba na yagura imodoka.

Abantu bahuriye hamwe muri pipinyeri ari benshi cyane, bakaba bari kugenda bareba ko imbuto zafashe mu bihoho kugira ngo babashe kuba bajya kuzitera mu gasozi hirya cyane.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri ubu ngubu basigaye bahinga imyumbati bakayitaho, hanyuma yamara kwera bakayisarura bakayigemura mu masoko agiye atandukanye.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imboga n'imbuto, aho ibi ngibi ari ingenzi cyane kubera ko bakunda kubihinga ahantu mu gishanga, umuntu wabihinze rero akabyitaho bimuha umusaruro.

Umurima uhinzemo icyayi cyinshi, bikaba bigaragara ko uyu muntu yabihinze mu buryo bwa kijyambere, ku buryo buzamuteza imbere maze akabona amafaranga menshi cyane ahagije yo kwifashisha.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibigoyi, aho ibi bigori ari byiza cyane bisa umukara, bigaragara ko byashimye ubutaka kandi bikaba byaruhiwe neza ku buryo bitanga umusaruro.

Umurima uteyemo ibigori byinshi by'amoko agiye atandukanye, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kuba byamuteza imbere igihe abisaruye.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imyumbati aho iy'imyumbati ari ingirakamaro cyane, umuntu wese uyihinze ibasha kuba yamuha umusaruro maze akiteza imbere cyane.

Umugabo uri mu murima uhinzemo urutoki, akaba ari kugenda akora kuri buri gitoki ngo arebe niba cyeze, hanyuma agice ajye kugigurisha mu isoko kubera ko akeneye amafaranga.

Ibishyimbo biteye ku muronko aho ibi bihinmbo ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese wabihinze akabyitaho iyo byeze bimuha umusaruro maze agakirigita ifaranga agasezera ubukene.

Umurima uhinzemo ibigori, aho ibyo bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese ubihinze akabyitaho, bibasha kumuha umusaruro, maze agakirigita ifaranga.

Umurima uhinzemo ibigori, aho ibyo bigori ari byiza cyane, bikaba ari ibya kijyambere, ni byiza cyane guhinga ibi bigori kuko biteza imbere nyirabyo akabona amafaranga.

Umugabo uri mu murima we uteyemo ibigori, akaba ari kugenda abyuhira kugira ngo bizabashe kumuha umusaruro uhagije, kubera ko aba yarabihinze bya kinyamwuga kugira ngo bimuteze imbere.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro bukomeje gutera imbere cyane, aho hari abantu basigaye barabigize umwuga, bagenda bagahinga ibinyomoro bakabyitaho, hanyuma byamara kwera bakabisarura bakabijyana ku isoko.

Umuntu uri mu murima uteyemo dodo, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara yatebeje, akaba ari kugenda mu murima we areba ko ibishyimbo byeze ngo abe yabirisha dodo.

Umugore wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'inyanya, akaba ari kugenda azikorera neza cyane azizitira kugira ngo izo nyanya zizabashe kumuha umusaruro, maze nazisarura azazijyane ku isoko, azigurishe maze bamuhe amafaranga yo gukemuza ibibazo.

Ubuhinzi bw'insina bukomeza gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, kuko hari abantu benshi basigaye bazihinga babigize umwuga kugira ngo zizabateze imbere, zibahe umusaruro.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko bidukururira umwuka mwiza duhumeka ndetse bikaba bidukururira n'imvura.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umushinga hanyuma yamara kwera bakayisarura bakajya kuyigurisha ku masoko bakabona amafaranga.

Insina ziteye ahantu mu murima, zikaba zigiye ziri kumwe n'ikawa, aho abahinzi bazo babigize umwuga, bakaba bazihinga neza bakazihingana n'ikawa kugira ngo zizabahe umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje guteza imbere cyane abantu, aho izo nkoko ziba zigomba kwitabwaho by'umwihariko igihe zarwaye bakaba bazivuza kugira ngo zibe zakira.

Uducupa tugera muri tubiri, aho harimo kamwe kanini n'akandi gatoya, tukaba turimo imiti igiye itandukanye, aho iyo miti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, kugira ngo akire indwara runaka aba yarwaye, maze nyirayo ntahombe.

Udukapu turi mu mabara y'ubururu n'umukara, tukaba twifashishwa cyane cyane n'abantu b'abahinzi, aho utu dukapu rero tuba ari twiza cyane, bakatwifashisha badutwaramo umusaruro.

Uducupa turi mu mabara y'umweru turiho icyapa cy'umuhondo, tukaba duteretse ahantu hamwe bigaragara ko tuba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa n'abantu bakora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi.

Agacupa k'umweru, kabaditseho icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, kakaba karimo umuti wifashishwa mu kuvura inka, kugira ngo izo nka, zitazicwa n'indwara.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, kakaba karimo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo, aho hashushanyijeho inka, ihene ndetse n'intama.

Agacupa kamwe kari mu mabara y'umweru, kakaba gashushanyijeho inka, ihene n'intama; bigaragara ko umuti uba urimo uvura aya matungo agiye atandukanye.

Uducupa tugera muri tune dutetse hamwe, tukaba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, aho itungo ririye uyu muti ribyibuha cyane maze rigakura.

Intoki z'umuntu zifashe agacupa, aho ako gacupa karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura udusimba twataka umwuga w'ubuhinzi tukangiriza imyaka.

Umugore woroye inkoko bya kijyambere akaba afite udukoresho twabugenewe ziriramo, akaba ari kugenda asukamo ibyo kurya na zo zigenda zirya kandi iziri gucuranwa.

Agacupa k'umweru karimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza, aho ari mu mabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umukara.

Uducupa tugera muri tubiri turambitse ahantu, aho hari n'udukarito turi imbere yatwo bigaragara ko tuba turimo umuti wifashishwa mu buhinzi wica udukoko.

Agafuka kari mu mabara y'umweru n'ubururu, kakaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi aho iyo miti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese uyifashishije ibasha kumuteza imbere.

Akabati gapanzemo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo aho bagenda bayaha iyi miti kugira ngo atarwara.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abajyanama b'ubuhinzi, bakaba bari kwerekera umugore uko agomba guhinga neza umurima we akawusanza maze akazabona umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibigori bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibigori barabigize umwuga, bakabyitaho, bakabibagarira, hanyuma bikabateza imbere, bakabona umusaruro.

Umuntu uri mu murima aho ari gutera ibirayi, akaba afashe ibirayi bigera muri bitandatu mu kiganza, aho ari kugenda ashyira kimwe muri buri mwobo kugira ngo nibyera bizamuhe umusaruro utubutse maze azabashe gutera imbere, kubera ko azaba yarabyitayeho cyane bikarinda bigera aho byera.

Ubuhinzi bw'insina, bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho kuri ubu ngubu hari abahinzi babigize umwuga, bahinga amoko agiye atandukanye y'insina. Maze zamara kwera bakagurisha ibitoki.

Abantu benshi cyane bahuriye mu gikorwa cy'umuganda aho harimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe bari guhinga, abandi bakagenda batiyura kugira ngo iki gikorwa cyabo kize kugenda neza cyane.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe iyo umuceri bawusaruye bawuzana ku bwanikiro, bakajya bawanika ku mashitingi, hanyuma imvura yagwa bakawanurira mu mifuka.

Umugore uri mu murima uhinzemo imbuto z'amoko agiye atandukanye. Akaba ari kugenda azuhira, yifashishije intoki ziwe, aho arandura utwatsi tugiye turimo, kugira ngo zizabashe kwera neza.

Umugabo n'umugore bahuriye mu murima wabo, bakaba bari kugenda bashingirira ibishyimbo kugira ngo barebe ko byazabaha umusaruro maze bikabateza imbere mu gihe kizaza bakaba abakungu.

Abantu bari mu murima biganjemo ab'igitsina gore, bakaba bari kugenda bahinga batunganya umurima wabo kugira ngo uzabashe kubaha umusaruro maze bakirigite ifaranga bikure mu bukene.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere, hano rero hari umurima ucukuyemo imyobo bagiye guteramo ibigori.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda, biganjemo abantu bakuru ndetse n'abato, higanjemo abanyonzi, aho bambaye utujiri bambara igihe cyose baba bari mu kazi.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho harimo amavido menshi cyane agera muri abiri ndetse n'udufuka tumwe turimo kawunga n'utundi tw'umuceri turi mu mabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane izwi nk'ubuhunikiro, iba yarubatswe na leta, aho abantu basaruye ibigori basaruriramo, akaba ari ho babihunika kugira ngo birusheho kubungabungwa.

Umurima munini uhinzemo ibigori, aho ibyo bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo babyitayeho bakabitera ifumbire ndetse n'umuti bibasha gutanga umusaruro uhagije k'umuhinzi.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho hanyuma na yo ikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Abantu bahuriye hamwe mu isoko, bigaragara ko baje gucuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, aho harimo ibirayi, ibijumba, ibitoki, ndetse n'ibindi byinshi.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga n'imbuto, aho ibi ngibi ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze mu cyaro bibasha kumuteza imbere.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe hari abantu bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho hanyuma yamara gukura bakajya kuyikura bakayigurisha.

Abahinzi baba bagomba guhita bihutira gusarura ibigori, igihe cyose babonye amahundo yaracuramye, ni ikimenyetso kigaragaza ko ibigori biba byeze, biba bikenewe kuba byasarurwa.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri bakawitaho, hanyuma wamara gukura ukazabaha umusaruro utubutse, maze na bo bagatera imbere.

Mu gishanga ahahingwa amoko menshi agiye atandukanye y'umuceri, haba harimo amazi bifashisha bari kuyobora umuceri kugira ngo uwo muceri utazicwa n'izuba ukarumba.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho iyo bimaze kwira babirunda hamwe, bakazana imashini ikabihungura, hanyuma impungure bakagenda bazipakira mu mifuka, mu gihe bategerereje abazigura.

Isoko ricururizwamo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto, aho izo mbuto ari ingirakamaro cyane, kubera ko iyo umuntu azikeneye, ajya kuzihahira mu isoko, akazibona ku mafaranga make, batamuhenze.

Igiti giteye ahantu mu gihuru kikaba cyegetseho ibisheke, aho ibi bisheke ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese ubihinze bibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho harimwo bimwe birebire n'ibindi bigufi, ibibyushye n'ibinanutse, aho byose bidukururira imvura, bikaduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Umurima uhinzemo imyumbati myinshi, aho iyi myumbati ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uyihinze imugirira akamaro, kuko anayinika akayivanamo ifu y'ubugari.

Igiti cy'umwembe aho kirimo amatabi menshi cyane agiye ariho amababi ndetse kikaba gitanga umusaruro ku buryo bigaragara kugira ngo umuntu wese wagihinze kimuteze imbere.

Umurima uteyemo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'imbuto za avoka, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazihinze zibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa aba ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuhinzi wese ubashije kubihinga bibasha kumuteza imbere, maze akabona amafaranga.

Umurima uteyemo amoko menshi, agiye atandukanye y'ibiti. Aho ibi biti bikunze kuba biri ahantu mu ishyamba, bikaba ari ingirakamaro cyane, kubera ko bivura indwara nyinshi cyane, zigiye zitandukanye.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti birebire cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, ibi biti bikaba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bimuteza imbere.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabo ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazihinze zibasha kumuha umusaruro mu buryo bugiye butandukanye, maze akaba yatera imbere na we.

Ubuhinzi bw'insina bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye bahinga insina, bakazitaho cyane, hanyuma zakwera zikabaha umusaruro w'ibitoki.

Umuhanda unyuze ahantu mu giturage, aho ukikijwe n'insina nyinshi zigiye zitandukanye, izo nsina zikaba ari nziza kandi ziteye mu buryo bugezweho bwa kijyambere.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubashije kubihinga bimuteza imbere maze akabona amafaranga.

Ibiti by'amoko menshi agiye atandukanye, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, bikaba biteye ahantu mu busitani impande y'ikigo cy'amashuri, aho harimo amashuri menshi cyane agiye atandukanye.

Mu ishyamba haba hagiye harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo hariho bimwe byifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi, bakabishinga ahantu hateye ibishyimbo kugira ngo inyoni zitajya kubyona.

Ahantu hateye igiti cy'urubuto ruzwi nk'indimu kikaba kikiri gitoya kitaragera igihe cyo kwera, biragaragara ko ni kera kizatanga umusaruro uhagije maze nyiracyo akabonamo umusaruro ajyana ku isoko.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho harimo ibiti binini ndetse n'ibitoya. Ibi biti bikaba ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese ubifite yabibyaza umusaruro.

Ni byiza ko twabungabunga ibidukikije, kuko ibiti aba ari ingirakamaro cyane, bitanga umusaruro mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ndetse bigakurura n'imvura, n'umwuka mwiza duhumeka.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa dukunda gusanga mu ishyamba, aho ibyo bihingwa aba ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere maze akaba yabona amafaranga.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo bigirira umumaro umuntu wese wabihinze maze akabonamo amafaranga menshi.

Abantu bakunda gutema ibiti batasabye uburenganzira mbese nta ruhushya bahawe na Leta ariko si byiza cyane kuko leta uwo ifashe yatemye igiti nta burenganzira imuhana yihanukiye.

Ubuhinzi bw'urutoki bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari insina ifite amakoma, ikaba iri ahantu heza cyane ndetse ikikijwe n'urubingo baba barateye nk'ubwatsi bw'inka.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo umuntu abihinze mu murima we, bibasha kumuha umusaruro ufatika maze akabona amafaranga.

Igiti cy'umwembe kikaba gifite imyembe myinshi cyane yezeho, aho imwe itukuye indi ikaba itaratukuye, hari n'indi yagiye igakora hasi ku butaka kubera uburemere bwayo.

Imiyenzi ni bimwe mu bwoko bw'ibimera by'ingirakamaro cyane, aho babyifashisha bari kuzitira ndetse bakabyifashisha bari gushyira urubibi hagati y'umurima n'undi.

Amoko y'ibiti agiye atandukanye, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumuteza imbere cyane, maze akaba umukungu akabona umusaruro.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere, maze agakirigita ifaranga akaba umukungu.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuhinzi wabihinze, bibasha kumuha umusaruro, maze agatera imbere.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imboga n'imbuto barabigize umwuga bakazitaho hanyuma zikazabateza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyanya barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibitunguru, aho ibi bitunguru ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere, maze akabona amafaranga akaba umukungu.

Amashaza ari mu ishashi akaba arambitse ahantu ku gitenge, bigaragara ko ari amashaza ahiye ku buryo umuntu wese uyakeneye yahita ayarya kandi aryoshye cyane.

Umurima uhinzemo amashu, aho harimo abantu benshi cyane baje kuyasura, bakaba bari kureba niba yareze neza agatanga umusaruro uko bikwiriye cyane rwose.

Avoka ni zimwe mu mbuto nziza cyane ku buryo umuntu wese wazihinze akazitaho zibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga agasezera ubukene kubera umusaruro wazo.

Igipangu cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho, aho cyagiye kimeraraho ibyatsi. Kikaba gikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, buteyemo amoko menshi agiye atandukanye, y'indabyo nziza.

Ahantu hari umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho harimo n'ibiti bya avoka, ibi biti rero bikaba bitari byera, ku buryo byatanga umusaruro ku bahinzi babyo.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, hakaba hari umukecuru uri imbere y'ako karima k'igikoni ari kureba ukuntu ari keza cyane.

Umufuka urimo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye zicururizwa mu isoko, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese uzihinze zibasha kumuteza imbere, maze agasezera ku bukene.

Agatanda kariho inyanya ndetse na karoti bigaragara ko bari gucururizaho imboga zigiye zitandukanye, ku buryo umuntu wese waba uzikeneye yanyarukira hano bakaba bazimugurisha ku mafaranga make.

Umurima uhinzemo urubuto rw'avoka, aho iyo voka bayihingiye, ikaba imeze neza cyane, bigaragara ko yiteguye kuba yakwera mu gihe kiri imbere.

Umuntu uri mu murima uhinzemo puwavuro, akaba ari kuzisarura azifata mu ntoki, aho azicigatiye kugira ngo zizamuhe umusaruro, puwavuro rero ni ingirakamaro cyane.

Umurima w'amatunda uteyemo amatunda menshi cyane, aho hagiye hashizemo ibiti ayo matunda atondagira kugira ngo azatange umusaruro uhagije ku muhinzi wayo.

Ahantu hahinze imboga zigiye zitandukanye, aho izo mboga ari ingirakamaro cyane, hakaba hari n'imbuto zigiye zitandukanye, basarura bakazizana mu dukoko twabugenewe hanyuma bakazigurisha.

Umusore n'umukobwa bambaye udupira tw'amaboko magufi, bakaba bari ahantu mu murima uhinzemo imboga, bakaba bari kuzifotorezamo bigaragara ko bari kugaragaza umusaruro bazakuramo.

Kayote ni zimwe mu mboga nziza cyane, zitanga umusaruro ku bahinzi. Aho zera amoko agiye atandukanye, aho hari hamwe zera kayote zikozwe mu bijumba.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, harimo inyanya, watermelon ndetse n'inanasi na avoka n'ibindi bigiye bitandukanye by'imbuto.

Umurima w'intoryi uteyemo amoko agiye atandukanye y'intoryi, aho izi ntoryi ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kumuteza imbere cyane, maze akabasha gukirigita ku ifaranga.

Umwana mutoya cyane ucigatiye ibihoho bigera muri bitanu birimo imbuto z'ibinyomoro, bigaragara ko agiye kubihinga mu murima we maze akabyiharika, akazabigurisha.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imboga aho izo waba ukeneye zose waza kuzihahahira, haba harimo intoryi, karoti, dodo, amashu ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.

Umurima uteyemo ibinyomoro byinshi cyane, aho ibi binyomoro ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuha umusaruro maze akaba yakwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'intoryi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari intoryi ziba zisa umukara ariko zo ziribwa batabanje kuziteka, zikaribwa nk'imbuto.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga. Aho izi mboga ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kumuteza imbere maze akabona umusaruro.

Akarima k'igikoni gahinzwemo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho harimo dodo ndetse na karoti byose bishyishye cyane, hakaba hari abagore babiri bari kugenda basoroma dodo kugira ngo bajye kuziteka.

Ubuhinzi bw'ibihaza bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibihaza barabigize umwuga, bakabyitaho byamara kwera bakabigemura mu masoko agiye atandukanye.

Isoko ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye, aho zitanditse ahantu ku gatanda, hakaba harimo imyembe, amaronji, avoka ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto, aho hari akabati gatanditseho imbuto zigiye zitandukanye, ku buryo uramutse uzishaka waza hano bakazikugurisha ku mafaranga make.

Ubusitani buteyemo umucaca mwiza cyane, bukaba bukikijwe n'indabyo nziza cyane kandi zigezweho, aho ubu busitani bubereye kuba umuntu yabusohokaniramo n'umukunzi we maze bakabwicaramo.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kumuteza imbere cyane akaba umukungu.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane, aho abantu basigaye bahinga inyanya maze bakabigira umushinga, bazisarura bakazijyana ku masoko, hanyuma bakabonamo amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Abantu bagera muri batatu bari mu isoko, ricururizwamo imboga n'imbuto, aho umwe afite ibitunguru mu ntoki, undi afite amacunga mu ntoki, naho undi afite dodo mu ntoki.

Umurima uhinzemo indabyo nyinshi zigiye zitandukanye, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kuba zamuteza imbere, maze akabona amafaranga.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibinyomoro, akaba ari kugenda abyitaho cyane, aho ibi binyomoro ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuha umusaruro.

Ahacururizwa imboga n'imbuto byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hari umuntu ufashe pome mu ntoki, hasi harambitse ibitunguru, avoka, ibihaza ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye.

Imboga zisigaye ari ingirakamaro cyane kuko muri iki gihe biba bigoye ngo umuntu abe yarya ifunguro ritagira imboga, kuko ntabwo aba ariye indyo yuzuye kuko mu ndyo yuzuye zigomba kuba zirimo.

Amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga menshi, akaba yasezera ku bukene akaba umukungu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho kuri ubu ngubu hari amoko agiye atandukanye y'imboga abantu bahinga zikabateza imbere muri izo mboga haba harimo ibitunguru, kokombure, imiteja ndetse na beterave.

Umugore uri mu murima yahinzemo pipinyeri ya avoka, akaba afite igihoho kimwe ari kukivanamo bigaragara ko agiye kukigurisha amafaranga magana atanu yonyine.

Mu isoko ahacururizwa amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, izo waba ukeneye zose wazihasanga, haba harimo karoti, pavuro, hakazamo beterave ndetse n'imbwija.

Tangawize ni zimwe mu mboga zikunze guhingwa ahantu hagiye hatandukanye, aho ziba zifite imbuto nziza cyane zivamo umuti uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi n'ubworozi biteza imbere ba nyirabyo, ariko iyo umuntu yahinze avoka zikera arazitara zigashya. Iyo zimaze gushya azijyana ku isoko akagenda azigurisha imwe imwe kugeza azimaze.

Abantu babiri b'abagabo bahuriye mu murima uhinzemo karoti, bakaba bari kugenda bareba niba zimeze neza kugira ngo babashe kuba bazisarura bakajya kuzigurisha ku isoko.

Umugore uri ahantu mu murima uteyemo ibishimbo, akaba ahetse umwana ndetse yiteze igitambaro, ari kureba niba ibishyimbo bye byaruriye ibiti neza bikaba bizera neza.

Umurima uteyemo karoti nyinshi z'amoko agiye atandukanye, aho izi karoti ari ingirakamaro cyane kuko iyo umuntu yazihinze, iyo zeze zimuha umusaruro maze akazijyana ku isoko kuzigurisha.

Ubusitani buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabo, aho izi ndabo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzihinze akazitaho, zibasha kumubyarira umusaruro.

Ubusitani buteyemo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzihinze mu busitani bwe, zibasha kuba zamuha umusaruro.

Ubuhinzi bwa avoka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bazihinga barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara kwera zikabaha umusaruro.

Ikinyomoro ni kimwe mu mbuto nziza cyane kandi zikunzwe, aho zigira intungamubiri kuko n'umuntu warwaye Malariya iyo ageze kwa muganga bamusaba kurya ikinyomoro kugira ngo yongere amaraso mu mubiri.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho harimo imbuto nyinshi ku buryo izo wakenera zose wazibona, harimo imyembe, amaronji, wotameroni, ndetse na pome.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane, akaba ari kugenda azuhira, yifashishije umupira we wabugenewe kugira ngo arebe ko zamuha umusaruro.

Umugabo uri mu murima uhinzemo inyanya, akaba afite umupira uzana amazi, ari kugenda yuhira inyanya, kugira ngo izo nyanya zizamuhe umusaruro utubutse nasarura.

Umugore wahinze ibigori bya kinyamwuga, akaba ari kubyuhira akoresheje ipombo yabugenewe, aho ari kuyifashisha, kugira ngo ibigori byiwe bitazicwa n'izuba, maze akaba yahakura igihombo.

Umuntu wahinze inyanya bya kinyamwuga, akaba ari mu murima wazo aho ari kugenda adaha amazi mu nngururu azimenaho kugira ngo zizabashe kumuha umusaruro ufatika.

Abantu bagera muri babiri aho harimo umugabo umwe ufite umupira, ari kugenda yuhira imbuto ze yahinze ahantu mu gishanga, undi ahagaze imbere ye ari kureba uko arimo kubikora.

Umugore wahinze inyanya none akaba ari kuzuhira mu buryo bugezweho yifashishije ipombo yabugenewe, akaba ari gutungerezamo amazi kugira ngo amazi azigereho zitazicwa n'izuba maze zikaba zarumba.

Ahantu hari isambu nziza cyane, iteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo iyo ubihinze bitanga umusaruro mu buryo bugiye butandukanye.

Ahantu mu cyaro akenshi ku mikingo y'imirima bakunze guteraho urubingo rwo mu bwoko bwa kameroni kugira ngo umuntu wese uzajya aza kwahirira amatungo azajye ahera kuri uru nguru.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wabihinze bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga, agasezera ku bukene.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, kuko iyo bimaze gukura bitanga umusaruro mu buryo butandukanye, aho bidukururira imvura ndetse bigatanga n'umwuka mwiza duhumeka.

Umurima uhinzemo ibijumba ku gasozi, hakaba harimo akayira gatambika ndetse hakaba harimo n'imisitari myinshi cyane, harimo n'intabire zimwe zidateyemo imyaka.

Umurima uri ahantu hari agasozi gateyeho uduti tukiri dutoya tugiye dutandukanye, bigaragara ko tuno duti ari uduhuru, twifashishwa mu myuga igiye itandukanye y'abantu bahinga.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, aho ibi byatsi ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubifite yaragiramo inka, maze bikaba byamuteza imbere cyane.

Ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'ingemwe, aho izi ngemwe bazinaza hanyuma bakahasakara, bakazajya bananika ibigori hejuru yaho munsi hahinzemo ingemwe.

Agasozi gahinzeho icyayi, aho kigiye giteyemo ibiti bya geriveriya, ubuhinzi bw'icyayi rero ni ingirakamaro kuko buteza imbere nyirabwo maze agakirigita ifaranga.

Igishanga giteyemo amoko agiye atandukanye y'umuceri, aho uyu muceri ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uwuhinze ubasha kumuha umusaruro, maze akiteza imbere, akaba umukungu.

Umurima w'icyayi uhinzemo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'icyayi, aho iyi mirima ihingwamo icyayi, ikunze kuba iherereye mu turere dukonja nka Nyaruguru ndetse n'utundi turere tw'Iburengerazuba.

Igishanga giteyemo amoko menshi y'umuceri, aho uyu muceri ari ingirakamaro cyane umunwa wahinze ubasha kumuteza imbere cyane, maze akabona n'umusaruro ufatika kandi ushimishije.

Ahantu heza cyane harambaraye, hateyemo ibyatsi byinshi cyane ariko bigufi, byerekana ko ari mu cyanya cyahariwe ubworozi, aho abantu borora inka baza kuziragira.

Ahantu hari ibyatsi byiza cyane kandi byinshi, bikaba bigaragaza ko ari ku kibuga cy'indege giherereye mu Karere ka Huye, aho hari ibiti birebire cyane bibasha kuzana akayaga aho hantu.

Ahantu mu gishanga hari umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazihinze zibasha kuba zamuteza imbere akaba umukungu.

Umurima uhinzemo umuceri uri ahantu mu gishanga bigaragara ko ari umutabo mwiza cyane, umuceri ugeze igihe cyo kurindwa inyoni ariko ntabwo wari wera neza ku buryo nyirawo yawusarura.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho, bakaziha ibyo kurya, hanyuma zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye boroye inkoko barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikabaha umusaruro.

Ikiraro kiziritsemo inka, aho iri kurya ubwatsi bw'amababi y'ibigori, hanze hakaba hari indi biri gusangira, bigaragaza ko uyu muntu yazoroye bya kinyamwuga akaba ari kuzitaho.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye barora ihene barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabateza imbere neza cyane.

Ihene zigira muri ebyiri ziziritse ahantu hamwe mu gisambu, aho ziri mu mabara agiye atandukanye, zikaba ziri kugenda zirisha kugira ngo zirebe ko zabasha guhaga baze kuzicyura zamaze kurisha.

Umugore uri kumwe n'umwana we bakaba bagiye kwahura ihene, bari kuzizirika ahantu mu murima uhinzemo insina kugira ngo zibe ziraharisha maze barebe ko zahaga.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabaha umusaruro ushimishije.

Ikiraro kirimo inka nyinshi aho izo nka ari nziza cyane. Ubworozi bw'inka rero burushaho gutera imbere cyane cyane iyo inka uyororeye mu kiraro itanga umusaruro uhagije.

Umugabo woroye inkoko mu buryo bwa kijyambere akaba ari kugenda azigaburira ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo izo nkoko arebe ko zatera imbere maze zikamuha umusaruro.

Inkoko zigiye zitandukanye ziri ahantu, zikaba ziri kurya ibiribwa byazo byamenetse ku gakarito, zikaba zirimo inkokokazi ndetse n'insake, nyiri iyo nzu akaba yasize ahafunze.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube bakazitaho kugira ngo zibahe umusaruro, maze babashe gutera imbere mu buryo bwose.

Inka ya kizungu iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba iri ahantu mu kiraro isa neza cyane bigaragara ko ba nyirayo bayitaho bakayiha ubwatsi bwiza kandi bwinshi.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari umugabo wambaye imyambaro y'ubururu w'umworozi w'inkoko, akaba yicaye mu muryango inyuma ye mu cyumba hari inkoko nyinshi cyane zgiye zitandukanye.

Ubworozi bw'ihene ni ingirakamaro cyane, aho umuntu wese woroye ihene akazitaho zimugirira umumaro ndetse zikamuha n'amafaranga atari make kandi atubutse, maze akaba yakwiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma n'abazorora zikabaha umusaruro ushimishije.

Ihene iziritse ahantu ku miyenzi, iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutamu. Ikaba ari ihene nziza cyane ku buryo umuturage wese wayorora akayitaho mu mezi make yaba ibyaye.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hasigaye hari abantu borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya, maze nazo zikaba nziza cyane zikabaha umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko, bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya, barangiza bakajya kuzigurisha igihe ziba zikuze.

Umugabo uri imbere y'ikiraro cy'inka, akaba yambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye aho ari kugenda areba muri buri kiraro cy'inka areba uko zimerewe kugira ngo izo nka zikomeze zigubwe neza.

Inka nyinshi cyane zigiye zitandukanye ziteraniye hamwe zirimo amoko menshi cyane, aho ari inka nziza cyane zo mu mabara agiye atandukanye ku buryo uwmorozi wazo zimuteza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye burora inka mu buryo bugezweho, bakazororera mu rugo batiriwe bajya kuziragira mu masambu, maze zikabaha ifumbire.

Ingurube ni zimwe mu nyamaswa zikunze gutanga umusaruro mwinshi cyane ku bahinzi bazo, aho ari ingenzi cyane, ku buryo iyo uzitayeho zibasha kuba zaguha umusaruro.

Inkoko iri kugenda ahantu mu muhanda, bigaragara ko ari inkoko yo mu bwoko bwa saso, imwe mu nkoko zigezweho muri iki gihe, zitanga umusaruro ufatika ku mworozi wabigize umwuga wazo.

Abaturage benshi bahuriye hamwe aho buri wese afashe ingurube mu ntoki ze, bikaba bigaragara ko bamaze kuzihabwa na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gukungahaza abaturage b'u Rwanda ku matungo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bozorora barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabaha umusaruro ushimishije.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho ubu ngubu hasigaye hari abantu borora ingurube kinyamwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Umugore uri kuzirika ihene ku byatsi, aho ahagararanye n'umwana we, bakaba bari kuragira izi hene kugira ngo barebe ko zazabaha umusaruro, mu gihe kiri imbere.

Inka iri mu kiraro ifite amabara y'umweru n'umukara, ikaba yambaye agaherena ku matwi, iri kurira ubwatsi bwayo mu gatanda kaba karayubakiwe kagezweho.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bazororera mu biraro bakirinda kuzijyana ahantu mu misozi kugira ngo zitaba zahavunikira.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakajya baziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo zizabashe gukura neza.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umushinga bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo zibahe umusaruro.

Ihene nyinshi cyane ziri ahantu mu mukenke, aho ziri kurisha. Zikaba ziri kumwe n'umushumba wazo uziragiye aho ziri kugenda zitonze kugira ngo zibone ibyo kurya byiza cyane.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho buri wese afite inkwavu ebyiri mu ntoki, bakaba bari kwerekana ko inkwavu ari amatungo meza cyane, ku buryo umuntu wese uyoroye amuteza imbere.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

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye bazorora hanyuma zamara kuba nyinshi bakazishorera bakazijyana ku isoko kuzigurisha kugira ngo bazabonemo ibikoresho by'abanyeshuri.

Ikiraro cy'inka kirimo inka zigiye zitandukanye, aho ziri mu mabara menshi umweru ndetse n'umukara, inyuma yazo hakaba hari inkoko nyinshi zirimo iza Kinyarwanda ndetse na dendo, bigaragaza ko uyu mworozi yabigize umwuga.

Ingurube iri kugenda ahantu mu muhanda; bigaragara ko yariye neza kandi ikaba ibyibushye kubera yuko imeze neza kandi nyirayo akaba ayitaho cyane.

Umuntu uri ahantu mu kiraro cy'inka, akaba afite igikapu cyiza cyane kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha ari kuvura bigaragaza ko ari veterineri wize kuvura amatungo.

Umugabo wakoze umwuga wo korora ingurub, akaba yayishoye hanze aho ari kuyishishirira ngo yumve ukuntu uruhu rwayo ari rwiza cyane, ari itungo ryiza kandi rishimishije.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu borora inkoko barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye maze nabo zikazabaha umusaruro.

Ihene iri ahantu iziritse, ikaba iri mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba ihagaze bigaragara ko ifite amezi iri hafi kubyara, nyirayo akaba yifuza ko yazabyara tubiri.

Ikiraro kirimo amoko menshi agiye atandukanye y'amatungo, aho harimo inka yabyaye iri konsa inyana yayo, hakaba haziritse uduhene dutatu ndetse n'umugabo n'umugore n'umwana wabo.

Ahantu mu gishanga hari umugenda unyura hagati y'imitabo ibiri, aho umuntu wese wahinze imbuto, iyo agiye kuzivomera, aza akaduha amazi muri uyu mugenda, akamena muri izo mbuto.

Inyanya ziteye ahantu mu murima, zikaba zifite imbuto zigiye zitandukanye. Aho izo nyanya zeze neza ariko, zikaba zitaratukura ngo babe bajya kuzisarura.

Umugenda w'amazi utandukanya imitabo ibiri, aho iyo mitabo ihinzemo ibigori byumye, bikaba bigaragara ko uyu mutabo amazi arimo bayifashisha bari kuhira imyaka ihinze aha ngaha.

Ishyamba riteyemo amoko atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti bigiyeye birimo n'indabyo nyinshi cyane, zose zikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko zitanga umusaruro.

Umusaruro w'ubunyobwa ukunze kuba ujya kumera nk'umusaruro w'ibigori ariko ibigori byo bikaba bijya kuba byiza cyane kurusha ubunyobwa, kubera ko byo bahita babigurisha.

Umugabo uri ahantu mu murima yahinzemo amatunda, akaba ari kugenda ayitegereza anayakoraho kugira ngo arebe ko hari amaze gufata, ngo abe yajya kuyatera ahandi hantu.

Umurima uhinzemo ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wabihinze, bibasha kumuteza imbere cyane, maze akabona amafaranga agiye atandukanye.

Puwavuro ni zimwe mu mboga zikunze kwifashishwa ku ifunguro rya buri munsi, aho ziba ziri ahantu mu murima zikera ari nyinshi, nyirazo akajya kuzigurisha ku isoko.

Umurima w'imyumbati uteyemo imyumbati myinshi cyane aho iyi myumbati ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uyihinze ibasha kuba yamuteza imbere, maze akabona amafaranga.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera biteye ahantu mu murima, bikaba ari ibimera by'imboga, aho ari iby'ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kuba byamuteza imbere.

Ibishyimbo byinshi cyane byasaruwe, aho babisutse ahantu hamwe ariko bikaba bifite amabara agiye atandukanye, bikaba ari ibishyimbo bigufi bitari inyumba.

Abantu bagera muri babiri bari imbere y'akarima k'igikoni gateyemo amashu, bakaba bari kureba ukuntu amashu yabo yeze bari kwishima, aho ari umugabo ndetse n'umugore we.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imboga barabigize umwuga, hanyuma zamara kwera bakajya kuzigurisha ku masoko atandukanye.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibishyimbo bakabyitaho, hanyuma byamara kwera bikabaha umusaruro bakajya kubigurisha ku masoko.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba ahagaze mu gatanda inka ziriramo, aho ari kureba uburyo ki yagakora neza kugira ngo ubutaha zizajye zirya ubwatsi butari kumeneka hasi.

Abantu bagera muri batatu, bigaragara ko bari kuvura inka. Bakaba bayiryamishije hasi, hari umuntu wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'inka. Ari kugenda ayikura amahembe, kugira ngo izabyibuhe.

Umuntu uri kugenda yambaye isarubeti akaba afite ikaramu ari kwandika bigaragara ko yiga muri kaminuza, yigisha iby'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda ya IPRC Huye.

Umugabo wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatongo, akaba yashyize akaboko mu nda y'inka ari kugenda avanamo imyanda irimo kugira ngo iyo nka imererwe neza maze izagire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka, bakazitaho, bakaziha ubwatsi buhagije ndetse bakazigaburirira mu matungo kugira ngo zitagira ikibazo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho imbere haragiwe inka, hakaba hari n'umugabo uziragiye, wambaye isarubeti y'icyatsi, iyo nyubako isize amarangi y'umweru, ndetse isakaje amategura.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hasigaye hari abantu borora inka mu buryo bugezweho, bakazitaho zarwara bagahamagaza veterineri akaza kuzivurira mu rugo.

Abagabo bagera muri babiri, umwe ni umuveterineri undi ni mworozi w'inka. Bakaba bafite inyana ikiri ntoya, bakaba bayasamishije bari kuyisuka umuti mu nda kugira ngo ikire.

Abantu bari ahantu baragiye inka biganjemo ab'igitsina gabo, bakaba baziragiye ahantu mu gisambu cyiza cyane kiringaniye, zikaba ziri kugenda zirisha kugira ngo zirebe ko zaza guhaga.

Inka yamaze kubyara, akana kakaba karyamye ku ruhande. Iyo nka ikaba yazanye ibicebe rinini, ikaba ariko itarahata umuziha, ukiri kuregarega, bigaragara ko ari bwo ikimara kubyara.

Umuntu wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba asigaye azi kuyabaga neza cyane kugira ngo abe yayavura indwara zigiye zitandukanye hanyuma narangiza aze kongera kuyateranya.

Inka ni zimwe mu matungo y'ingirakamaro cyane, aho iyo umuntu yoroye inka ya kizungu aba afite amafaranga menshi cyane, ku buryo kuyitunga aba ari ubukungu bukomeye cyane bwateza imbere nyirabwo.

Ubworozi bw'inka za kijyambere bukomeje kwitabwaho mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka bakazitaho, hanyuma bajya kuzigurisha zikabaha umusaruro utubutse cyane.

Umugabo w'umuhinzi wa kinyamwuga akaba n'umworozi, ari kwambara ibikoresho byabugenewe kugira ngo aheke ipombo, ajye gutera umuti mu bihingwa byiwe biteye mu murima.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyoni, aho hari inyoni ziba zifite utubara twinshi tugiye dutandukanye, maze izo nyoni zigakunda guhagarara ahantu mu biti byinshi kandi bisa na zo.

Inyoni ziri ahantu ziri mu giti, zikaba zifite amabara ajya gusa umuhondo, zikaba ari inyoni nziza cyane kandi zikaba zitanga umusaruro mu buryo bufatika.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyoni, aho harimo zimwe zikunze kuba ahantu mu ishyamba ziba ari nziza cyane zifite n'amabara meza zikaba zizi kuguruka cyane ku buryo nta nyamaswa yapfa kuzifata.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa ziba zizi ubwenge ndetse zigira n'imyitwarire nk'iy'abantu ikaba yicaye mu muhanda aho itegereje ko yabona umuntu uvuye kugura irindazi ngo irimwake.

Ibikona ni zimwe mu nyamaswa ziba zifite amabara agiye atandukanye y'umutuku ndetse n'umweru n'umukara ku buryo kiba giteye isoni kukireba.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hariho zimwe zizwi nk'ihene zo mu ishyamba ariko zikaba zitwa isha, ziba zizi kwiruka cyane ku buryo nta muntu wapfa kuyifata.

Igiti kirimo amatabi agiye atandukanye, kikaba gihagazemo inyoni yo mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iyi nyoni ikaba ari nziza cyane kandi ifite umunwa munini cyane.

Utunyamaswa tuzwi nk'inguge, dukunze kuba turi ahantu muri parike y'u Rwanda y'Akagera, aho tuba tuzi kurira ibiti cyane ndetse tukagira n'ibisatsi byinshi cyane mu maso.

Igiti kirimo akanyoni kari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku kakaba gahagaze, bigaragara ko kaje kururabo kugira karebe ko nta dusimba turaza, maze kabe kahita katurira aho ngaho.

Ibinyamaswa byitwa imitubu bikunze kuba biri ahantutu hari ibyatsi bitoshye kandi bikaba bizi gutaruka cyane, bijya kumera nk'igikeri, usibye ko byo bidafite uruhu rukanyaraye nk'urwacyo.

Ishyamba ririmo amoko menshi agiye atandukanye y'inyoni aho izo nyoni ziba ari nziza cyane kandi zigakunda kwibera ahantu mu biti, zitanga uburyo bwiza cyane bwo kuba za surwa.

Akanyoni kari mu mabara y'icyatsi, umutuku, n'umukara, kakaba gahagaze ku giti cyegereye indabyo. Gafite umunwa muremure usongoye, kakaba kazwi ku izina ry'umununi.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye arisha ibyatsi, haba harimo impara ndetse n'imparage, aho zikunze kuba zihagarariye ahantu hisanzuye.

Inyamaswa z'imbeba z'ishyamba ziba zifite imirizo iriho inzenzi, kandi zikaba ari ingome cyane, ku buryo iyo zigeze ku myenda yawe ziyicagagura zikayihindura ubushingwe.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa ziba zifite ngenzi zazo bijya gusa zitwa inguge, aho ziba ziri mu mabara y'umukara zo, zose zizi kurira ibiti kandi ziba ari ntoya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite uruzitiro ruzitijwe ibyuma, aho muri urwo ruzitiro hahagazemo inkende, ikaba iri guhengereza.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, haba harimo inkende zijya kumera nk'abantu zikunze kuba ziri mu mabara y'umukara zifite ubwanwa bw'umweru.

Igisiga kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, gifite umunwa w'umuhondo, kikaba kiri kuguruka gifashe ifi mu ntoki, bigaragara ko kivuye kuyiroba mu nyanja kubera ubuhanga kiba gifite bwo kwibira mu mazi.

Ubuhinzi bw'indabyo na bwo buba bwiza cyane kuko bukunda guteza imbere ba nyirabwo; uyu murima rero w'indabyo harimo ikinyamaswa cyitwa indege cyaje guhovaho, kuri izi ndabyo.

Igikona cyuriye igiti, kikaba kiri mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umweru, bigaragara ko gishaje cyane, kubera ko ibikona bimara imyaka myinshi ku isi.

Hariho amoko menshi y'inyoni agiye atandukanye, aho hariho zimwe zizwi nk'ibishwi, zikunda kuba ziri ahantu mu ishyamba, maze zikaba zihora zijunjamye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite igipangu gisa umutuku, ifite agahanda kayiganaho k'igitaka, bigaragara ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda.